Umuntu ugaragara, hirya ye hari amagambo asobanura serivisi zitandukanye batanga, ku bantu batandukanye, bitewe n'icyo ushaka cyane cyane kuri serivisi zigendanye n'ubwishingizi.

Ibirango bigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, byandikishije amagambo mu mabara y'umweru, bigaragaza kandi bigasobanura neza serivisi batangaza z'ubwishingizi butandukanye, uwazikenera izo ari zo zose yabagana, hari imyirondoro yabo n'aho wabasanga, bakaguhereza uko ubishaka nawe ugatunga ugatunganirwa.

Ibirango bigizwe n'amabara y'umutuku n'umweru bigaragaraho umuntu uri kwamamaza ibikorwa bigendanye n'ubwishingizi, hariho n'amazina na nimero za telefoni ngendanwa wababonaho, hanyuma ukabagana bakaguha serivisi zitandukanye harimo n'iz'ubwishingizi.

Ibirango bigizwe n'amabara y'umutuku n'ay'umweru, byandikishijwe umukara, hariho umuntu ashaka kugaragaza ko batanga serivisi zitandukanye z'ubwishingizi. Inyuma y'ibirango hari ibiti biteye, ubona ko biri mu mwijima bitagaragara neza.

Ibirango biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru bigaragaraho umuntu urikwerekana kandi asobanura serivisi batanga z'ubwishingizi butandukanye bitewe n'ubwo ushaka wabagana, cyangwa bakakwereka inimero wababonaho mu gihe icyo ari cyo cyose ubakeneye.

Urubuga rwo kohereza no kwakira amafaranga hariho aho ushyiraho amazina y'umuntu wohereje, amazina y'umuntu wakira, nimero za konti, hanyuma hari naho boherereza kugira ngo umuntu yakire amafaranga cyangwa ayiyoherereze amafaranga.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwa banki y'u Rwanda yitwa BK, aho umukiriya ashobora kwishyurira, kwakira, kohereza n'izindi serivisi zitandukanye za banki, kugira ngo byoroshye akazi n'urugendo na serivisi muri rusange.

Urubuga rwa banki rugaragaza ibyakozwe byose: ayabikijwe, ayabikujwe, ayishyuwe, buri gikorwa cyose cyakorewe kuri konti yawe ukibona kuri uru rubuga mu buryo bukoroheye kandi bwizewe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwa banki rugaragaza ibyakorewe kuri konti yawe, haba amafaranga yoherejwe, ayakiriwe, igihe byakoreye, haba amasaha, haba amatariki byose biba biriho bikubiye kuri urwo rupapuro aho ubonera amakuru yawe yose agendanye na konti yawe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga kuri banki bakoresha bakwereka amafaranga ufiteho, ayo wakiriye mu kwezi cyangwa mu mugihe runaka, n'ayo wakoresha uhaha, ukabona byose kandi mu buryo bwizewe kandi bwihuta.

Ahamurikirwa hakanagurishirizwa ibikoresho bitandukanye harimo imisego, inanasi n'ibindi bitandukanye, muri rusange ukaba wabihabona mu buryo bworoshye kandi ugahita ubitwara mu buryo bwizewe.

Imyenda cyangwa imyambaro iri ahantu hamwe iri mu iguriro igurishwa ku buryo uwo ari we wese yahagera akihahira akagenda akambara akaberwa yakishima akazagaruka kandi bikamubera byiza mu buryo bwizewe.

Ahacururizwa imyambaro n'inkweto n'ibindi bitandukanye, hari kugaragazwa imyenda myiza y'abagore cyangwa abadamu, bashobora kwambara bakaberwa n'inkweto zitari kugaragara neza, zitondetse neza, ushobora kuba wahagera ugahaha, ukagenda ukiyambarira mu buryo bwiza.

Mu iguriro ahari ibikoresho bikozwe mu mbaho, harimo ibyo kuryamaho n'ibindi by'isuku byo gutaka, ubona ko wahagera ukihahira buri kimwe cyose, ukishyura bakakiguhereza, hanyuma nawe ukagenda ugataka iwawe. Ubona ko bifite isuku kandi bikoze neza.

Iguriro cyangwa ihahiro aho bacuruza imyenda itandukanye, aho buri muntu wese yagenda akihahira imyenda ashaka, akishyura hanyuma akayitwara akagenda akambara akaberwa, yashaka akazagaruka agakomeza akahahahira.

Inkweto ziri mu iguriro ubona ko ari izikorerwa mu Rwanda zicuruzwa ahantu ugenda ukishyura amafaranga bitewe n'uko zigura; ugatwara bitewe n'izo waguze, hanyuma wabona ari nziza ukazagaruka ukigurira izindi mu buryo bwiza kandi bukunogeye.

Umuntu ari kubara amafaranga ayatondeka kuburyo bwiza bumeze neza, anabikoresha imashini yabigenewe mu kuyabara, hanyuma imbere hari hari imashini n'ameza, anambaye na baji.

Inoti ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda, y'ijana, yakoreshwaga kera, ariho ibirango by'u Rwanda, ubona ko ari amafaranga yakoreshwaga mu buryo bwizewe kandi butunganye, ariko ntabwo agikoreshwa, yari ashushanyijeho imparage n'amagambo agaragaza ko arai ay'u Rwanda.

Iguriro cyangwa ihahiro ry'amata, aho ushobora kuza ufite amafaranga akaguhereza amata bitewe n'amafaranga ufite, kandi ni amata adafite ikibazo, asukuye, kandi ukayanywa ukagira ubuzima bwiza.

Urubuga rw'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza no kwakira amafaranga mu buryo butandukanye, mu buryo mpuzamahanga, mu bihugu bitandukanye nk'uko bigaragara, mu mabara y'umweru ndetse n'ay'umutuku, kandi mu buryo bwizewe kandi butekaniye buri wese.

Urubuga rwo kwishyurira amafaranga kuri murandasi, hagaragara aho kwishyurira amafaranga, kuyahindura uyashyira mu yandi bitewe n'ayo ushaka kwishyura, urugero mu manyamerika, amanyarwanda, amapawundi biterwa n'aho ushaka, aho kuyahindurira kuyishyura byose biba biriho.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukoreshwa kuri murandasi, aho ushobora kugura, kohereza, kwakira serivisi zitandukanye mu buryo bwizewe, bwihuse, kandi butunganye buri wese, ku buryo bwizewe na buri muntu wese.

Umuntu wishimye cyane wambaye neza, ugaragaza supeni aho ushobora kubitsa, kubikura ukishyurira serivisi zitandukanye za banki, ushobora no kwishyura ku koranabuhanga ukoresheje iyi sipeni aho buri kimwe cyose cyizewe itangwa na iyindemu bank

Urupapuro rwo kuri murandasi rugaragaza ko amafaranga wohereje ari kugenda kandi mu buryo bwizewe. Ni uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe murandasi, mu buryo bugezweho ukoresheje telefone ngendanwa cyangwa ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose kibifitiye ubushobozi.

Ahatangirwa kandi hakakirirwa abakeneye serivisi zitandukanye za banki hagaragaza umuntu uri kwaka serivisi n'undi uri kumwakira ubona ko nta wundi muntu utegereje ku ntebe zihari nta kintu kiriho. Hari amabara meza ahatatse y'ubururu ndetse n'umweru.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, rwo kwishyuriraho, aho ushobora gusaba ibyakozwe, hanyuma ukakira n'ibyakozwe, ibyo aribyo byose, ukaba wanasubira n'inyuma ibyo byose bikaba bishoboka, kandi ku buryo bwizewe budateye ikibazo.

Ikiganza gifashe telefone, ngendanwa. Kigaragaza uko bakoresha, ikoranabuhanga mu kwishyura, bikoroheye kandi byizewe, dukoresheje supeni.

Umuntu ari kwishyura akoresheje telefone ye ku buryo bw’ikoranabuhanga ibyo yanyweye, yakoresheje, yariye, cyangwa yaguze mu iduka, cyangwa mu isoko, cyangwa mu iguriro, mu buryo bw’ikoranabuhanga nabyo birakora.

Urubuga rwo kuri murandasi, aho ushobora kwishyurira, kohereza ndetse no kugura ibikoresho bitandukanye ukoresheje telefone yawe ngendanwa cyangwa ikindi gikoresho cyabugenewe mu ikoranabuhanga kandi mu buryo bwizewe, ukabona icyo waguze cyangwa icyo wohereje kikagerayo neza.

Inyemezabwishyu ya Rwanda reveni otoriti, aho bigaragaza amazina y' uwishyuye, icyo yishyuye, amatariki yishyuriweho, amatariki yarangiye kwishyurirwaho, amasinyatire bigaragara ko yakorewe ku buryo bw'ikoranabuhanga.

nyemezabwishyu, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, aho kigaragaza imisoro yishyuwe, ikigo kishyuye umusoro, hanyuma kikagaragaza igihe yishyuriwe n'igihe byakorewe byose, byose bikaba biriho mu byakozwe byose.

Inyemezabwishyu y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, cyishyuwe hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, kigaragaza igihe cyishyuriweho igihe cyakoreweho n'igihe byarangiye kwishyurirwaho ,cyishyuwe na sosiyete yitwa technoprint.

Urupapuro rugaragaza ibyakozwe kuri konti yawe, ayo wohererereje, ayo wakiriye, umunsi byakorewe, isaha byakorewe byose biba biriho, bakakwereka n'asigayeho kuri konti yawe, ukabona ko ari uburyo bwiza bukwereka ibyakorewe kuri konti yawe byose.

amafaranga y'inoti zitandukanye, harimo iya magana abiri yo mu Buhinde n'indi y'ibihumbi bibiri yo mu Buhinde n'indi y'icumi yo mu Buhinde n'iya mirongo itanu yo mu Buhinde ni yane yo mu Buhinde ziri mu mabara atandukanye.

Inoti y'amafaranga magana atanu yo mu gihugu cya Tanzania, ikoreshwamo kandi yishyurwa muri serivisi zitandukanye mu buryo butandukanye, ukaba wayikoresha uhaha cyangwa ugura ibyo wifuza.

Ibiganza bibiri biri kubara amafaranga yiganjemo ay'inote ya magana atanu n'ay'inote y'igihumbi ubona ko wakoresha uhaha cyangwa ugura buri kimwe cyose mu byo wifuza ukakigura kikaba icyawe mu buryo bwizewe.

Ahatangirwa serivisi z'ivunjishafaranga, mu birango byabo by'ubururu umweru ndetse n'umutuku, hari ibiciro by'amafaranga bitandukanye bitewe n'ayo ushaka, ujyana ayo ufite bakaguhereza ayo ngayo ubu ukeneye, mu buryo bwizewe kandi bukurikije amategeko.

Inoti imwe y'ijana ishushanyijeho umuntu w'umugabo, hari ibiceri biri hejuru igiceri kimwe n'icya rimwe, ikindi ni icy'atanu ikindi ntago cyanditseho, ikindi ni icy'atanu, ikindi ni icy'atanu kingeretse ku kindi, ikindi nacyo kigeretswe ku kindi, ikindi ni icya rimwe.

Umuntu ari kugaragaza inoti nyinshi harimo n'iya mirongo itanu niyo igaragara neza, n'ibiceri abifite ku rundi ruhande, kandi yambaye neza, ubona asa nkaho ari kugaragaza inote ko ari nyinshi kandi yamamaza n'igihugu cyabo.

Urubuga rugaragaza ihindagurika ry'amafaranga n'ivunjisha muri rusange uko rimeze bitewe n'ibihugu n'amafaranga bakoresha, ushaka ayo ushaka bakayaguhereza, ibyo ukora ugatanga ayo wowe ushaka gutanga, nawe ukakira ayo ushaka ko wakira bikurikije iryo hindagurika.

Mu biro ahakorerwa serivisi z'ivunjisha, umuntu ari kwakira amadorari, undi ari kuyamuhereza hagaraga ikiganza cy'iwe mu birahure hanyuma akayakira akajya kuyakoresha nk'uko bisanzwe mu buryo bwizewe.

Umuntu ari kwerekana inoti nyinshi z'amadolari n'izindi zitazwi kandi zitari kugaragara neza, bigaragara ko bakora ivunjisha ry'amafaranga n'ihinduranyamafaranga, byose ubona ko babikora, ubona ko umuntu yambaye n'impeta ze ebyiri mu biganza bibiri afashemo izo noti ari kuzerekana.

Inyubako iriho ibirango by'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, agaragaza ahatangwa serivisi z'ivunjishwa ry'amafaranga bitewe n'ayo ushaka nawe ugatanga ayo udakeneye, bakaguha ayo uri kubasaba.

Ibirango biri mu mabara y'ubururu n'umweru bigaragaza kandi bikaranga ahakorerwa ihinduranyamafaranga, mu buryo bwizewe bakaguha ayo ushaka ukabaha ayandi bitewe n'ayo ufite kandi bigakorwa mu buryo bwemewe.

Ikirango kigaragaza ibiciro bitandukanye, wakohereza cyangwa ukakira, bitewe n'amafaranga ushaka kohereza cyangwa kwakira, hariho amatariki mu birango by'icyatsi n'umweru, bikakwereka uko ibiciro bihagaze.

Mu rwanda hari abacururiza ku ikoranabuhanga nko mu Rukari. Wabagana ugatuma ibyo ukeneye byose bakabikugezaho utiriwe uva aho uherereye guhaha wifashishije ikoranabuhanga na byo ni byiza biradufasha.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho bigurishwa, harimo ameza ndetse n'ububiko bw'ibikoresho bitandukanye n'intebe nazo zo kuganiraho ndetse n'izo kuriraho, byose ukaba wabisanga hano uko biri bigurishwa kandi ku giciro cyiza.

Imbaho nyinshi zirunze ahantu hamwe, hari inyubako ndetse n'uruzitiro ruzitiye, inyuma yarwo hari ibiti ubona ko bigize ishusho ryiza. Hari umuntu wicaye aho ngaho ubona ko ategereje uwaza kugura. Ukeneye ibikoresho bikoreshwa mu mbaho waza ugahaha imbaho ukajya kubikora.

Ameza meza agaragara ku buryo bwiza, akoreshejwe n'imbaho, hari n'andi afite amabara y'umukara, nay'umuhondo ateretse ahantu heza, ku makaro y'umweru ubona ko ibintu bifite isuku kandi ushobora kuba wabikora nawe ukabyitungira iwawe.

Ibikoresho byiza birimo ameza n'intebe byaho ushobora gukoresha uganira cyangwa urira biteye neza biryoheye amaso kubireba kandi na kimwe cyose ubona kiri ku murongo bikaba bigurishwa ushobora kubigurarana ukabishyira iwawe bikaba byagaragara neza.

ibirango biri mu mazina y'ahatangirwa serivisi zitandukanye nko kuryama, kurya, kunywa ubona akari mu ijoro, hari ibirango gusa biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, ahandi hari umwijima ahandi HARI ahantutu hasa nk'aho hajya ibirango by'ibihugu cyangwa ibindi bitandukanye.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye harimo nko kuryama, kurya, kunywa, ibitaramo n'ibindi birori bitandukanye kandi hatuje, haryoheye ijisho, ibirori byawe bikagenda neza, wumva buri kimwe cyose, nta kindi wagisimbuza kandi kigenze neza.

Mu iguriro cyangwa ihahiro ry'ibiribwa n'ibinyobwa, aho ushobora kugenda ukabihaha ukabirya cyangwa ukanabinywa, wanashaka ukabitahana iwawe, hari ibiribwa n'ibinyobwa, aho buri kimwe cyose wakibona mu buryo bwiza kandi butekanye.

Ahantu heza hagaragara ahantu ho kwicara h'uruganiriro ushobora kwicara muri abantu benshi kandi batandukanye, hari na serivisi zo kuryama, ibyo kurya wabihabona, ibyo kunywa wabihabona, mbega buri kimwe cyose kimeze neza kandi wahabona ahantu ho guturiza ukamera neza.

Intebe nziza iri mu mabara meza, yo kwicaraho ukumva utekanye, hari amarido, igikuta kiza cy'umweru, hari televiziyo nziza, mbega ubonye ko buri kimwe cyose gifite isuku kandi kimeze neza, urumva rero biri kugaragara neza, wahasura hameze nko muri hoteli, ukareba uko bimeze, na we ukumva utuje kandi utekanye.

Intebe nziza, indabo nziza, ibihatatse biri mu mabara atandukanye, agize ubwiza ndetse ni ahantu hatuje, hatangirwa serivise zo kuryama, kurya, kunywa ndetse no kwakira ibirori mu buryo butandukanye, ubikeneye wahagera, ndabona ari ahantu hatuje kandi heza.

Ibirango bigaragaza inyubako ikorerwamo kandi inatangirwamo serivisi zitandukanye z'ubwishingizi mu buryo butandukanye, harimo abantu baje gusaba iyo serivisi harimo n'abayitanga aho bicaye bategereje kuba bahabwa serivisi, haratatse kandi hameze neza mu buryo bwiza.

Abantu hanze hari igiti kimeze nk'ururabo, imbere hari umuryango ufunguye, bigaragara ko batanga serivisi zigendanye n'ubwishingizi, mu birango birimo ubururu n'umweru.

Ibiro bifunze imbere harimo ameza, harimo intebe, ubona ko hakirirwa abantu baje gushaka serivisi zitandukanye ziganjemo iz'ubwishingizi. Muri rusange, ukaba wabagana bakaguha iyo serivise neza, kandi mu buryo bwizewe.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubwishingizi ubona hari ibirango bibaranga amazina yabo yanditse mu mabara y'ubururu kandi no mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'umuhondo, ubona ko ari ahantu heza wagera ugahabwa serivisi z'ubwishingizi zigakururuka.

Ahakirirwa abagenderera kampani yitwa sonarwa, ni kampani itanga serivisi z'ubwishingizi zitangwa mu gihugu haba ku binyabiziga ku mitungo n'amaserivisi atandukanye.

Ahakirirwa abantu baje gushaka serivise zitandukanye zirimo n'ubwishingizi, hari abakira abantu ni bo bagaragara, imbere hari ibirango byabo, bigaragaza amazina yabo, hari intebe bicayeho, hari ameza bari gukoreho, Hari mu mabara y'ubururu n'amabara y'umweru. Ubona ko ari ahantu Hatuje kandi ho kwakirira abantu mu buryo bwiza.

Urupapuro mpesha mwenda rugaragaza uko wafata umwenda, inguzanyo ukayishyura mu gihe gitandukanye bitewe n'icyo ushaka kuyikoresha, bitewe n'igihe uvugira ko uzasoza kuyishyurira. Bakayiguha bakakwereka inyungu, bakakwereka n'uko uzayishyura ukabona ukayifata.

Urupapuro rwinguzanyo rugaragaza amazina, ibyakozwe, ugashyiraho n'umukono, ugashyiraho itariki, ugashyiraho n'igikumwe, bigaragaza uwakoze n'uwatse inguzanyo, muri rusange bigasobanuka.

Ikirango kigaragaraho abantu babiri bari kwamamaza ko ushobora gucisha amafaranga yawe ugenerwa ku kwezi kuri iyo konti wafunguye muri iyo banki, kugira ngo ube watsindira amahirwe yo kuba yakikuba inshuro ebyiri.

Mu birango bigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, umuntu ari gusobanura na mudasobwa yiwe uko batanga inguzanyo zigufasha gutera imbere, cyangwa zigufasha kwiyubakira inzu yawe mu buryo butandukanye mu nguzanyo batanga, wabageraho hari imyirondoro yabo, n'aho wabasanga ukabasha kwibonera inguzanyo.

Urupapuro rusobanura kandi rugateguza amahugurwa ku bigendanye n'imisoro nuko bigenda kugira ubashe gusora neza kandi mu buryo busobanutse neza ubona ko bigaragara buri kimwe cyose bakivuzeho hari abantu bari kumva ibyo n'amabwiriza abahabwa.

Ikirango kigaragaza aho batangira inguzanyo zitandukanye, hanze hari imodoka z'umukara, hari umutaka, hari abantu batwara ibinyabiziga n'abantu ubona ko bategereje abo batwara. Ni mu muhanda munini ahantu mu ikusanyirizo ry'imihanda haba urujya n'uruza rw'abantu batandukanye.

Abantu benshi bari mu isoko ubona bakeneye serivisi zo guhaha ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye bitewe n'icyo ushaka, urahagera bakakwakira kuko byose ubona bihari, hanyuma ugafata ibyo ukeneye ukabyishyura hanyuma ukitahira.

Isoko rinini ubona rigeretse inshuro nyinshi, hatangirwa serivisi zitandukanye n'abantu babagana ari benshi kandi ari aho bacuruza nabo ni benshi, ibintu bitandukanye, wahagera ukihahira mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, haba ibiryo biribwa bisanzwe, imboga ndetse n'imbuto. Hari ucuruza, abakirwa nabo bakeneye ibyo kurya cyangwa imbuto baza bakabihaha kandi bakabitahana mu buryo bwizewe kandi buciriritse nta kibazo.

Mu isoko ahari urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha, hari n'abandi bari gucuruza bakeneye gutanga serivisi ku bantu benshi batandukanye kandi ahantu hamwe, ubona bafite imbuto, bafite ibiribwa n'ibinyobwa n'ibikoresho bitandukanye, bitewe n'icyo ushaka urahagera ukagihaha ukagitahana.

Mu muhanda nyabagendwa, hari ibinyabiziga bya moto n'abantu urujya n'uruza rwabo, bagenda abandi bagaruka. Imbere hari inyubako nini y'isoko rya Nyarugenge, aho buri serivisi iyo ari yose ukeneye haba ibyo kurya, haba ibyo kunywa, haba ibikoresho bitandukanye n'ibindi bitandukanye wabihasanga kandi mu buryo bwizewe.

Isoko cyangwa iguriro aho abantu baturutse imihanda itandukanye baza guhaha ibikoresho by'isuku by'imyambaro, hanyuma bakakirwa neza bagahabwa serivisi mu buryo butunganye kandi bubanogeye.

Ku isoko ahacururizwa imyenda hari ibitenge, hari n'abantu bari kugurisha n'abagurishwa, aho wagera ukihahira imyenda wabona ari myiza ukazagaruka, kandi ku giciro cyiza ukabona wabagenderera, wagenda.

Abantu bari mu isoko ni benshi cyane bari guhaha ibintu byinshi bitandukanye hari abari kwakirwa n'abari kwakira baba baje kugira ngo bakorere amafaranga nabo batere imbere hari urujya n'uruza abantu ni benshi kuko ari mu isoko.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye zo kohereza, kwakira no kubitsa amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga rya telefoni ngendanwa, ku buryo bwizewe kandi butunganye buri wese, buzwi ahantu hose no mu gihugu.

Aho batanga serivisi zitandukanye zo kwakira, kohereza no kubika amafaranga, ukoresheje telefone ngendanwa kandi ku buryo bwizeye bitangwa na sosiyete yitwa MTN.

Abantu babiri bari ahatangirwa serivisi zitandukanye zo kohereza, kwakira no kubitsa amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefoni ngendanwa. Hari ibirango byabo bibaranga mu mabara y'umuhondo.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ikoranabuhanga ryo kwakira, kohereza ndetse no kubika amafaranga ukoresheje telefoni yawe ngendanwa, hari abakirwa ndetse n'uwakira bari gukenera izo serivisi, hari abandi bari gutambuka ku ruhande bareba ku ruhande mu birango byabo by'umuhondo ndetse n'ibirango by'umutuku n'umukara, rwose ukabona biri kugaragara neza.

Ahatangirwa serivisi zo kwakira, kohereza, kubitsa amafaranga mu buryo butandukanye, ukoresheje ikoranabuhanga rya telefone ngendanwa. Hari abakira, hari n'abakirwa, ubona ko hari ufite uruhu rwera n'abandi bafite uruhu rw'umukara, hanyuma ubona ko bari gutanga serivisi kandi mu buryo bwishimiwe.

Abagabo babiri bose bambaye amadarubindi, umwe ni umuzungu undi ni umwirabura, bafite ibirindamutwe byose biri mu mabara y'icyatsi, hashushanyijejo ibishushanyo n'amagambo mu mabara y'umweru, bose ubona ko ari ikintu kimwe bari kwerekana.

Urubuga, aho ushobora guhahira ibikoresho ibyo aribyo byose, haba ibiribwa, haba ibinyobwa n'ibindi ibyo aribyo byose ushobora gukenera ukoresheje iterambere rya murandasi. Aho buri kimwe cyose ugikora, haba kwishyura, haba kubibona, haba kubyohereza, ukabikoresha ukoresheje murandasi, bikakugeraho kandi nawe ukishyura mu buryo bwizewe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwo kuri murandasi aho ushobora guhaha ibiribwa ibikoresho cyangwa n'ibinyobwa muri rusange icyo wakenera cyose ukakigura hanyuma ukagitahana ucyishyuye wabona ari cyiza ukazagaruka kandi mu buryo bwizewe.

Urubuga rwo kuri murandasi aho ushobora kugenda ugahahira haba imyenda iri kugaragara n'abantu bari kuyamamaza, byose ubona bisa neza; bikorerwa mu Rwanda n'ahandi henshi hatandukanye. Bitewe n'ibyo ushaka, urajyaho ugasura hanyuma ukagura, byose mu buryo bwizewe.

Icyumba cyiza, amarido afite amabara atandukanye meza, igitanda cyiza, umusego, amashuka ubona ko bishashe neza, ukaba wakishyura amadorari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi, kugira ngo ube wayibona. Iyi serivise iri ahantu heza mu mujyi wa Kigali, Kabeza.

Uruzitiro rwiza, imbere habonekamo inzu nziza igurishwa miliyoni mirongo icyenda n’eshanu z’amafaranga y’u Rwanda. Iherereye i Kigali, mu Rwanda, i Kanombe. Ushobora kuyigura nawe, ikaba iyawe. Ubonana ko imeze neza, hagaragara amabara meza n’ubusitani, ubona ko ari inzu nziza.

Inyubako ndende ikodeshwa amadorari igihumbi n'ijana buri kwezi i Kigali mu Rwanda, ukaba wayatanga nawe ukaba ahantu heza kandi hatuje, hafite uruzitiro rwiza rugezweho, n'inzu buri kimwe cyose kirimo, icyo wakenera wagisangamo cyose hanyuma nawe uka abantu batuje kandi hatekanye.

Inzu ifite igikoni cyiza kigaragara nk'aho gikeye cyane, iyi nzu ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu buri kwezi i Kigali mu Rwanda, Kabeza, ushobora kuba wayihasanga, ni ahantu heza hatuje, hafite isuku kandi hadahenze.

Inzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda 'i Kigali mu Rwanda. iteye neza ifite ububiko bw'amazi buhagije ifite ubusitani hanze yubatse neza kandi mu buryo bubona burambye ubona ko bifite n'isuku hari ibiti nubwo bikiri bito ariko ni ahantu hafite isuku kandi hatekanye.

Inzu igurishwa miliyoni 75,000,000 z'amafaranga y'U rwanda i kigali mu rwanda iragaragara neza ifite amabara meza ifite amatara ayimurikira neza ubona ko yubatse mu buryo bugezweho kandi bwiza buri wese yayishaka yakishyura icyo giciro hanyuma nawe akayigiriye.

Inyubako nziza, ubona ko igeretse gatatu, iri mu mabara meza, ituye ahantu heza, ku gihumbi cy'idorari ukaba wayibona ukayikodesha, Kicukiro mu Rwanda, hari indabo nziza ziyizengurutse, ziri mu mabara atandukanye, kandi ahantu hatuje, hatekanye, kandi urabona ko nayo ifite isuku imeze neza.

Inyubako igeretse kabiri aho ku bihumbi magana abiri mirongo itanu by'amadolari ya Amerika ushobora kuyibona ikaba iyawe, kuri buri ruhande ifite ibyumba bine byo kuraramo kandi bitekanye bigaragara ko ari nziza cyane ifite n'uruzitiro rwiza kuri buri nguni.

Mu iguriro cyangwa ihahiro umuntu arikuba imyenda yifuza kugura yashaka akayigura akurikije igiciro cyayo, akayishyura akayitahana, ni ahantu hari amabara y'icyatsi n'amatara ari kuhabonesha kugira ngo hagaragare neza byose bigaragara.

Abantu batatu baje guhaha mu iguriro, bari kwishyura no kureba ibyo bashaka hanyuma bakabitahana bikaba ibyabo mu buryo bwizewe kandi butunganye, bahabwa serivisi nziza kandi bakazishimira, uburibwa, ubunyobwa byose wabihasanga.

Mu iguriro rinini hariho inyubako nyinshi zicuruza ibikoresho bitandukanye ndetse n'imyambaro. Hari urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagore n'abagabo bari guhaha ibintu bitandukanye, n'ababakira biteguye kubakira. Haraka hameze neza hari ahantu hari amatara ababoneshereza neza ku buryo buri kimwe cyose kigaragara neza.

Iguriro rinini ubona abantu bakirwa neza bari kuza bashaka guhaha kandi bakabona ibyo bakeneye byose, hari abari kwishyura n'abari kwishyurwa serivisi ziri gutangwa neza kandi mu buryo bunogeye buri wese. Ugize icyo ushaka waza hano, ndi kubona harimo ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bikoresho bitandukanye, ukaza ukihahira.

Iguriro ricuruza ibiribwa, cyane cyane imbuto, ririmo abantu benshi baje guhaha, n'abari gutanga serivisi zitandukanye, bamwe bakira amafaranga, abandi batanga ibiribwa cyangwa ibigurwa, bose bahurije hamwe, bari gukorera ahantu hamwe, ubona ko ari ibintu byiza.

Mu iguriro rinini, ibicuruzwa bitondetse ku murongo wabyo, hari amatara amuritse kugira ngo bibashe kugaragara neza, hari umuntu ufite agakangara ari kugenda ahitamo ibyo akeneye guhaha, hanyuma akabihaha. Abandi bari imbere nabo bari kugenda bashaka ibyo bo bakihahira.

Ikirango kiriho umuntu wishimye agaragaza kandi yerekana ko batanga serivisi z'ubwiteganyirize bw'ejo hazaza, ugenda ubutanga gake gake nawe bukazakugoboka mu masaziro yawe, ukazasaza wishimye kandi nanone ukeye uko bigaragara.

Ikiganza gifashe ikaramu gisa nkaho kiri kwandika ku ifishi ifite amabara y'umuhondo, isa nk'aho igaragara ko ari ubwisungane mu kwivuza, ubona ko ari nk'umuntu uri guhabwa serivisi mu bwisungane mu kwivuza, muri serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Isoko ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, ibikoresho by'isuku n'ibindi bitandukanye, ibibwa, ibinyobwa n'ibindi wabihasanga byose ukabyishyura hanyuma ukabitwara, hagaragara abantu babiri umwe ari kwakira abandi ubona ko n'undi ari kureba ibyo undi ari gukora.

Isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa bitandukanye haba ibyoku kurya ndetse n'ibyo kunywa, aho ushobora kugenda ukagura ibyo kunywa cyangwa ibyokurya ugataha ukabitahana ukabirya wabona ari byiza ukazagaruka kandi mu buryo bwizewe.

Isoko rinini, umuntu avuye guhaha kandi hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye bitewe n'ibyo ari byo. Bigiye bitondetse ukurikije uko bigura n'ibiciro byabyo biriho; ndetse hari n'ibirango bigaragaza kandi bikaranga aho ibicuruzwa biri, bitewe n'ibyo ushaka.

Iguriro cyangwa isoko, aho bigaragara ko ushobora kuhahahira, yaba ibiribwa, ibikoresho, ibinyobwa, ibikoresho by'isuku, buri kimwe cyose wakihabona, bigaragara ko ari aho guhahira, ari isoko.

Mu isoko harimo ibicuruzwa ibiribwa ndetse n'imboga umuntu yaje guhaha afite icyo guhahiramo yaje kugura ibyo agura arabitwara abitahane abiteke cyangwa abitunganye maze abashe kubirya.

Ihahiro isoko rinini cyane ubona ko hari ibinyobwa byinshi n'ibirungo bitandukanye bitari kugaragara neza ariko ubona ko ari isoko rinini kandi ricuruza ibintu byinshi byo kunywa n'ibyo kurya ariko bitandukanye.

Isoko cyangwa ibihahiro aho ushobora guhaha hari ibinyobwa, hari ibigaragara ko biribwa, n'ibindi ushobora kunywa ubona ko bitondetse neza ku murongo, bikeneye ababigura kandi n'ibiciro byabyo biriho.